Abana bato benshi bari mu kigero cy'imyaka hagati y'ine n'icumi, bari ahantu mu mbuga, bari kumwe n'umubyeyi uri kubaganiriza.

Abana bicaye ku mukeka bakoze uruziga, bari kumwe n'umukobwa, uhagaze ku ruhande arimo abigisha mu cyumba kirimo n'ikibaho.

Abana bato bahagaze kumukeka bakoze uruziga, hagati harimo umukobwa urimo ako amashyi bigaragara ko we n'abana barimo kuririmba.

Abana batoya, bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umuhondo ndetse n'amajipo cyangwa amakabutura y'umukara mo hagati hari umubyeyi, uri kubaganiriza.

Intebe zikozwe mu biti, zicarwaho n'abanyeshuri mu bigo by'amashuri, zirambitse ahantu kuri sima ndetse intebe imwe irambitseho igikapu cy'umukara.

Abanyeshuri barimo bamwe bambaye amashati y'umweru ndetse n'abambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubaganiriza.

Udutebe dutatu dukoze mu buryo butandukanye, iruhande hari akameza biri mu nyubako bigaragara nkaho ari mu kigo cy'amashuri.

Abanyeshuri bari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa bareba utuntu duto cyane tutabasha kubonwa n'amaso.